Ahantu heza cyane hari Madamu Jeannette Kagame arimo arakina n'abana b'abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri abanza. Afite umupira arimo arabahereza nabo bamuhereza. Bigaragara ko yishimye kandi nabo bamwishimiye.

Inyubako iri ahantu heza cyane nini yubakishije amabati y'umutuku kandi ifite inzugi z'ubururu; imbere yayo hari ahantu abantu bahahagaze kuri sikariye; harimo umumama n'umwana; umwana ni umunyeshuri yambaye impuzankano agiye ku ishuri; mama we aramuherekeje.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari mu ishuri, inyuma yaho hari ikibaho cyanditseho kandi bafite amakaramu bigaragara nk'aho bari gukora ikizamini kugirango mwarimu abashe kubakosora abahe indangamanota zabo.

Abantu babiri bari kugenda mu muhanda ni umukobwa ndetse n'umusosore, umusore afite ibitabo mu ntoki umukobwa nawe yikenyeyee agatambaro mumutwe ari kugenda areba muri telefone, iruhande rwabo hari ubusitani mu majyaruguru yacyo.

Inyubako nini cyane yakira abantu batandukanye baturutse hirya no hino, ikorerwamo serivisi z'uburezi, harimo abanyeshuri bicaye ndetse bigaragarako hari ikintu bari gukora, bateze amatwi, barimo bariga kugira ngo babashe kugira bumenyi batahana.